Ni itsinda ry'abana b'abirabura bakiri batoya, bahagaze imbere y'inyubako iciriritse, bafatanye urunana, bambaye imipira y'ubururu iriho ibirango byanditswe mu mabara y'umweru n'umukara.

Ni iriba ryubakiye ririmo itiyo imena amazi mu ijerekani, iteruwe n'umuntu wirabura w'igitsina gore, wambaye akagofero, agapira n'akajipo, afite n'indi jerekani iruhande rwe, hari abana bari iruhande rwe babiri, umwe yegamye kuri iryo riba, uwundi ahagaze imbere ye yitegereza uko bavoma.

Ni iriba ryubakiye ririho robine ebyiri, hagaze umukobwa mutoya wambaye ikanzu y'ubururu ageretseho agapira k'amaboko maremare, ahagaze kuri robine imwe akaraba intoki, hirya ye hari ibiti birebire, bizengurutse aho hantu n'utuzu tubiri tumeze nk'imisarane yo mu cyaro.

Ni icyumba kinini gicanyemo itara kiberamo ibikorwa by'ubuvuzi, hicayemo abantu batandukanye, abenshi muri bo bateruye abana batoya; hari umugore uhagaze imbere ya bose ahagatiye umwana, afite impapuro mu ntoki ategereje ubufasha.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi bwa kijyambere, harimo abantu batatu, abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, bafite ibikoresho byo kwa muganga bambaye mu ijosi n'umurwayi uryamye ku gitanda ahereje ukuboko muganga, amushyizeho igikoresho gipima ku kuboko.

Ni iriba riri ku cyaro ririho robine ebyiri, imwe irafunguye, hari umwana wunamye atezeho amashyi yashyizeho umunwa ari kunywayo mazi, hasi ye hari indobo itaze ameneka.

Ni itsinda ry'abagabo n'abagore bicaye mu cyumba, bambaye amataburiya y'ubururu, bafite ibitabo barambuye ku bibero byabo.

Ni imeza ziteguye mu cyumba kinini mu buryo zitegeranye, ziriho ibikoresho byifashishwa n'abaganga, hari n'abaganga bicaye imbere yazo, hari imeza imwe iri imbere yicaweho n'umuganga w'umugore, ari kumwe n'umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ingofero mu mutwe y'ubudodo, afashe ukuboko kwe amuteraho urushinge.

Ni umuntu wirabura w'igitsina gore apfukamye ku kizenga cy'amazi, ashyizemo ijerekani nini y'umuhondo ngo avome ari kumwe n'akana gato kirabura gafite akajerekani gato gashyize muri icyo kizenga arimo aragafasha kuvoma amazi.

Ni ikizenga cy'amazi gikikijwe n'amabuye n'ibyatsi bigufiya, hejuru yacyo hari itiyo imena amazi meza muri cyo, ku rundi ruhande hari ukuboko k'umuntu guteze ikiganza kuri ayo mazi ava mu itiyo.

Ni iriba rivubura amazi menshi, riteretseho ibase y'umukara ijyamo ayo mazi, hari umwana w'umukobwa washyizeho intoki akarabira muri iyo base, hari n'urukuta rw'amatafari.

Ni iriba ryubakiye ririho robine, hari umugore n'umwana barihagazeho, buri wese imbere ye hari ijerekani avomeramo n'abandi bana benshi bahagaze inyuma yabo ku ruhande.

Ni iriba rya kijyambere ryubatse ku gice cy'icyaro, hari itsinda ry'abahagaze iruhande rwaryo higanjemo abakiri bato, hari umugabo uri inyuma, ufashe icyuma banyonga. Amazi amanuka mu itiyo ajya mu ijerekani y'umuhondo ihateretse.

Mu itsinda ry'abagabo n'abagore harimo babiri bambaye imyenda y'ubururu isa hose, bahagaze imbere y'icyumba k'inama bafatanye urunana banezerewe.

Ni tsinda ry'abantu bakeya, bari imbere y'inzu ntoya, bamwe baricaye, abandi barahagaze, umwe mu bahagaze, yunamye arambuye ukuboko, ashyira akanini mu kanwa k'umwana uraramye.

Ni itiyo yubakiye iriho robine n'amazi afunguye, imbere yayo hari abana bari ku murongo bambaye iniforume z'ishuri, umwe muri bo wambaye imyenda y'umweru ashyize akaganza kuri robine, anywa amazi, n'abandi bari iruhande rwe baramutegereje.

Hari imeza iriho ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gukingira abana, hari n'abantu bicaye bazengurutse iyo meza, harimo umugore uri imbere ateruye akana kiwe, akerekeje kuri muganga wambaye itaburiya y'umweru w'umugore, ufite urushinge, arutera mu kuboko k'uwo mwana.

Ni itsinda ry'abantu batandukanye, bahagaze ku mirongo ibiri ikurikiranye, impande zabo zombi hari amabendera abiri atandukanye, inyuma yabo ku nyubako ihari hari icyapa cyakamo itara cyo mu ibara ry'umweru n'ubururu, kiriho ikirango n'amagambo asobanura ibyo bakora.

Ni icyumba giteguwemo intebe n'ameza ateguyeho igitambaro cy'ubururu, hateretse ibirahure birimo ibyo kunywa, hari abagabo bazengurutse ayo meza bicaye bafite impapuro imbere yabo n'amakaramu.

Ni ikirango gikozwe nk'umubumbe w'Isi, kiriho ibara ry'icyatsi kibisi hasi n'iry'ubururu hejuru, munsi yacyo hari amagambo yanditswe mu nyuguti nini, zigaragara asobanura icyo gishushanyo.

Ni abana babiri umukuru n'umutoya, bari imbere y'inzu ishaje, umukuru yunamye hejuru y'indobo afite isabune mu ntoki, umutoya ari imbere ye afite ijage mu ntoki, yiteguye kumusukira amazi ku ntoki.

Ni iriba rya kijyambere riri ku gace k'icyaro, inyuma hunamye umukobwa afashe icyuma, anyonga amazi ngo aze, imbere hari abana bane bavoma, n'ubujerekani bw'umuhondo, hirya hahagaze imodoka y'umweru nini.

Ni abantu batatu bari hamwe, harimo umusaza wambaye akagofero k'abayisilamu, n'ishati y'igitenge y'amaboko maremare, hari umwana umuhagaze iruhande, wambaye agasengeri k'ubururu, n'umuganga umuri imbere barebana, yambaye itaburiya y'umweru, na ga z'umweru, na masike ifatiye mu gahanga nini, itwikiriye mu maso, n'iyindi ipfutse umunwa ifashe ku matwi, afashe ku rutugu rw'umusaza, nk'ugira ibyo avugana na we.

Ni iriba rya kijyambere riri ku gice cy'icyaro, rihagazeho abana bane bashyize ijerekani kuri robine izana amazi, umwe yagiye inyuma afata icyuma gikaraga amazi ngo aze abandi bahagaze iruhande rwe bitegereza uko abigenza.

Ni iriba rya kijyambere riri ku gice cy'icyaro, hirya y'aho hari n'urutoki rwinshi hari itsinda ry'abagore n'abana n'abagabo bahagaze aho bitegereza uko rikora, hari umugore uhagaze inyuma yaryo afashe icyuma anyonga amazi agaca mu itiyo ajya mu majerekani y'umuhondo ateretswe aho n'umwana w'umuhungu ufashe ku majerekani ayavoma.

Ni iriba riri mu cyaro ryubatswe ririho robine enye imwe ni yo ifunguye, hunamye umugore afite ijerekani y'umuhondo avoma, imbere ye hari akajerekani k'umweru kandi rikikijwe n'ibihuru byinshi.

Ni itsinda ry'abantu batatu, harimo umugore umwe uteruye umwana yafubitse utagaragara neza, n'undi wambaye ingofero, n'ishati y'ubururu, n'ipantaro y'umukara, uwundi mugore yambaye ikanzu yageretseho ijire, yambaye na ga z'ubururu, afite akuma mu ntoki gapima umuriro wo mu mubiri.

Ni umugore wicaye mu ntebe yubururu yegamirwa, akikiye umwana, afite urupapuro mu kuboko kumwe, imbere ye hicaye umugabo ku ntebe y'urubaho rutambitse, ufite impapuro mu ntoki n'izindi yashyize iruhande rwe, barebana.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura, harimo imashini icometsweho imigozi myinshi, abaganga bari hamwe bambaye ingofero, amamasike n'imyenda.

Ni itsinda ry'abantu bicaye ku murongo, higanjemo abagore bateruye abana bakiri batoya, hari abandi bambaye imipira y'umuhondo wijimye, umwe afite inkongoro, aranywesha akana kari ku bibero bya nyina.

Ni icyumba kiri mu inyubako, y'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye n'amamashini, acometsweho, imigozi, myinshi, amaseromo amanitswe, ku ibyuma, abaganga, bambaye imyenda isa, n'amamasike ku umunwa, n'umurwayi uryamishijwe, ku igitanda, bose, bari hejuru ye, bari kumwitaho.

Ni abantu bahagaze ahantu hamwe, hagati yabo hari abandi babiri, umwe yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, igeretsweho ijire iriho ikirango cy'umweru, afite impapuro mu ntoki zishushanyijeho ibintu by'umukara arahereza ab'iburyo bwe n'ibumoso.

Ni umwana w'umukobwa ukiri mutoya, wambaye iniforume z'ishuri, harimo ijipo y'umutuku wijimye n'ishati irimo umutuku wijimye n'umweru mukeya ya karokaro, iriho na karuvati, yambaye ishapule mu ijosi ari, imbere y'igikoresho cya kandagira ukarabe arakaraba intoki ze.

Itsinda ry'abagore bicaye hamwe, bamwe muribo bari kumwe n'abana babo batoya, imbere yabo hahagaze abagabo babiri bareba iryo tsinda, umwe afite ibintu bitandukanye, mu kuboko kumwe harimo n'impapuro mu kundi harimo ikaramu.

Ni icyumba kinini gicanyemo itara cyicayemo abagabo n'abagore, higanjemo abateruye abana batoya, hari umugore uhagaze imbere ya bose ateruye umwana afite urupapuro runini mu ntoki.

Ni inyubako ikorerwaho ibikorwa by'ubuvuzi, hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru ateretseho mudasobwa, hari abaganga b'abagabo batatu bambaye iniforume zitandukanye na masike. Umwe ahagaze yitegereza urupapuro afite mu ntoki, uwundi amwicaye iruhande nawe areba mu mpapuro. Hari umugore uri hirya yabo hafi y'ameza uhagaze, wambaye masike y'ubururu bwijimye yitegereza abari mu mpapuro.

Ni icyapa cy'ubururu cyanditsweho amagambo mu ibara ry'umweru agaragara neza, gishushanyijeho n'umubumbe w'Isi, uteretswe ku mashami asobekeranye, mu mubumbe harimo umuntu uraramye ateruye akana barebana.

Ni umugabo wambaye ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, n'ishati y'ubururu bukeye y'amaboko maremare, yunamye yasetse, arambuye amaboko, munsi y'akadomora bakoze mu buryo bwa kandagira ukarabe, arakaraba intoki.

Ni abagore bicaye ku murongo imbere yumuganga wambaye itaburiya y'umweru, n'igitambaro mu mutwe, bafite agakoresho kifashishwa n'abaganga bapima uko umutima utera, yagashyize ku kuboko k'umugore umwe ari kumupima.

Ni itsinda ry'abagore, bahagaze iruhande rw'ameza ari hagati muri bo, inyuma yabo ku rukuta rw'inzu bahagazeho, handitsweho amagambo mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'udushushanyo dutandukanye ku rukuta rw'iyo nzu, harimo uduti dutoya n'igiti kirekire n'umwana n'inzu.

Ni icyumba kinini gicanyemo amatara, giteguwemo intebe ziri ku murongo ndende zicarwamo n'umuntu umwe umwe, gikorerwamo ubujyanama ku buvuzi bw'indwara zifata ubwonko, hicayemo abagabo n'abagore bareba imbere, imbere yabo hari umugore uhahagaze nk'umujyanama ubaganiriza.

Ni icyumba kinini gicanyemo amatara, cyicayemo abantu batandukanye, imbere yabo hahagaze abantu babiri, umugore ufite mikoro avugiraho, n'umukobwa umuhagaze imbere barebana.

Ni icyumba cyicayemo itsinda ry'abantu batanu abagore bane n'umugabo umwe, umugore umwe afite mikoro imbere ye ku meza hari mudasobwa n'amacupa ari imbere y'abicaye ku meza.

Ni umubyeyi w'umugore wicaranye n'abana be batatu, imbere y'inzu y'ibyondo, wambaye igitambaro mu mutwe n'ishati n'ijipo ndende, iruhande rwe hari urutaro ruriho mironko y'umutuku, irimo ibintu by'umweru.

Icyumba kinini gifite amadirishya abiri akinguye n'umuryango ukinguye, giteguwemo intebe n'ameza bizengurutse icyo cyumba, hicayemo itsinda ry'abantu batandukanye bazengurutse ayo meza, hagati yabo hahagaze umugore wirabura.

Ni icyumba giteguwemo intebe eshatu n'ameza hagati, zicaweho n'abagore babiri, buri wese ateruye akana gatoya ku bibero n'undi mugore wicaye ubareba, abaganiriza nk'ubagira inama.

Mu itsinda ry'abantu batandukanye bari mu muhanda bagenda, harimo abasirikare, abapolisi n'abandi bambaye imipira y'icyatsi kibisi mitoya n'abambaye imyenda isanzwe, bafashe igitambaro cy'umweru kiriho ikirango cya polisi n'icy'u Rwanda n'ibindi birango cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara agaragara neza.

Ni umusaza wambaye ishati ya karokaro, yageretseho umushanana w'umuhondo, yambaye n'igofero, yasetse amenyo ye y'imbere yarakutse, iruhande rwe hengetse, icumu.

Ni icyumba giteguwemo intebe ziri ku murongo, hicayeho abagabo n'abagore, abenshi muri bo bambaye imipira mitoya y'umukara iriho n'uturangantego.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru n'amadarubindi, afite ibikoresho mu ntoki bifashisha mu buvuzi bw'amenyo, abishyize mu kanwa k'umwana wararamye agaragaza amenyo yose.

Ni umusore wirabura wireba mu ndorerwamo, wambaye umupira muto w'amaboko magufiya w'umweru, afite akadodo anyuza mu menyo y'iwe.

Ni icyumba kivurirwamo amenyo, harimo umuganga wambaye imyenda y'umweru na maske ku munwa na ga ku ntoki, afite agakoresho yinjije mu murwayi uryamishijwe ku ntebe yabugenewe, ngo amuvure amenyo, hari n'imashini n'ibindi bikoresho yifashisha mu kuvura amenyo.

Ni umukobwa uri mu cyumba gisa n'umweru, uri imbere y'indorerwamo, yambaye umwenda w'umweru, afite umuti w'amenyo mu kuboko kumwe, azamuye ukundi kurimo uburoso bw'umweru n'iroze yoza amenyo, afite umusatsi muremure.

Ni umugabo uri kumwe n'umwana mutoya, bambaye imipira mitoya y'umweru bareba imbere bagaragaza amenyo yabo, bafashe urudodo rw'umweru buri wese yarunyujije mu menyo yiwe.

Ni icyumba k'ishuri kirimo intebe zicayemo abana bambaye imyenda isa, bareba imbere baseka bose, bazamuye amaboko, bagaragaza utuntu bafite mu ntoki.

Ni itsinda ry'abana b'abanyeshuri bakiri batoya bahagaze ahantu hamwe, bambaye amakabutura y'icyatsi kibisi n'amashati ya karokaro, buri wese afite agakombe mu kuboko kumwe ukundi kurimo uburoso, babushyize mu kanwa boza amenyo yabo.

Ni igishushanyo cy'amenyo yose y'umuntu cyafotowe n'ibyuma byo kwa muganga bifotora mu mubiri, kigaragaza aho uburwayi bw'aya menyo buri.

Ni akanwa kasamye karimo amenyo agaragara n'umwobo wakuwemo iryinyo rifashwe mu cyuma abaganga bifashisha bakura amenyo, rigaragaza igice cyo hasi cyinjira mu ishinya n'ikiba hanze.

Umusaza wambaye ipantaro n'ishati n'amarinete, afite imvi, yicaye mu ntebe nini n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu, afite agakoresho bifashisha kwa muganga, agashyize ku kuboko k'umusaza bararebana baseka.

Ni itsinda ry'abantu batandatu ririmo abagabo babiri n'abagore babiri n'abana batoya babiri, bose basetse, inyuma yabo hari ibiti byarasiwemo n'umucyo.

Ni icyumba kirimo abantu batatu, hari umwana mutoya n'umugore ukiri mutoya wambaye amadarubindi n'imisatsi iboshye yafungiye hejuru, n'umukecuru ku rundi ruhande ufite imisatsi irimo imvi nyinshi wambaye umupira w'amaboko maremare, bose begamiranye amajosi bafatanye urunana bishimye.

Umukecuru wicaye mu igare ry'abafite intege nkeya, imbere ye yicaye umuganga wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, afite igikoresho cyo gupima ashyize ku kuboko k'uyu mukecuru areba uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba kirimo akabati k'umweru, karimo imitako hejuru, karimo n'ibitabo, harimo abagabo babiri barebana, bafite umugozi w'umuhondo ukubiranyije, buri wese awukurura ajyana mu ruhande rwe.

Ni umusaza n'umukecuru bicaranye, imbere yabo hari ameza manini ariho ibintu bitandukanye: uducupa tubiri tw'umweru tubamo imiti n'ikirahure kirimo amazi makeya, umukecuru afite urupapuro mu ntoki z'ukuboko kurambitse ku meza, umusaza afite telefone mu kuboko kumwe, bombi bari kuyirebamo.

Ni icyumba cyicayemo umukecuru n'umusaza bafite imvi nyinshi, ku meza ari imbere yabo hari utuntu tw'umweru, umusaza yafashe kamwe mu ntoki akereka umukecuru basetse.

Ni umusaza n'umukecuru bicaye hamwe, bafite imvi nyinshi, basetse bari imbere y'ameza ariho udukoresho bifashisha bakina igisoro, umukecuru yateruye kamwe, umusaza ari kumwitegereza.

Ni icyumba cyakamo amatara, kirimo abantu batandatu bicaye ku murongo ku ntebe y'ubururu, harimo abagore batatu n'abagabo babiri n'umwana umwe barimo baseka.

Ni icyumba cyicayemo abantu bakeya bari ku meza, imbere yabo hari umugore wambaye ishati n'ipantaro bisa, afite igikoresho cyo kwa muganga mu ijosi gipima ibintu bimwe na bimwe, asunika umugabo mu kagare k'abafite intege nkeya.

Ni icyumba kirimo abagore batatu, basetse, babiri muri bo bashyize amaboko imbere ku meza, bafite udukarita tw'ubururu mu ntoki.

Ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bareba imbere ku ntebe z'umweru, imbere ya bose hari abantu batatu bahagaze, harimo umusaza n'umukecuru bambaye imishanana.

Ni umuganga wicaye ku ntebe wambaye itaburiya y'umweru ufite igikoresho bapimisha uko amaraso atembera mu mubiri yashyize ku meza, hari umusaza wicaye imbere ye ufite imvi nyinshi mu bwanwa, arambuye ukuboko ku meza, muganga yamushyizeho igikoresho ku kuboko, apima uko amaraso ye atembera.

Ni abantu batatu bahagaze imbere y'ameza, harimo umuhungu umwe n'umukobwa umwe, n'umukecuru ufite imvi nyinshi wambaye amadarubindi, bafite amasahani ariho ibiryo, umukobwa afite imidaho ibiri, ateruye imboga agiye gushyira ku isahani y'umuhungu.

Icyumba gicanyemo amatara, kirimo abagore batatu bicaye hamwe, umwe afite ikidongi cy'umweru mu ntoki, yambaye amadarubindi n'ingofero y'umweru, uwo hagati yambaye amadarubindi, afite terefoni mu ntoki, uwo ku rundi ruhande yambaye ingofero y'ubudodo, bose bari kureba muri terefoni y'uwo hagati. Inyuma yabo hari akabati karimo ibikoresho bitandukanye.

Ni icyumba giteguwemo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, gihagazemo itsinda ry'abagabo n'abagore, abagore babiri bahagaze imbere yabo, bafite igikoresho bafasheho bombi.

Ni umukecuru wambaye amadarubindi wasetse, afite icyuma akata imboga, ari kumwe n'umukobwa umwitegereza yasetse, afite isahani y'ikirahure imbere ye.

Ni umusaza wicaye mu ntebe yegamirwa, ifite aho bashyira amaboko, afite imvi, hari umukobwa w'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ipantaro n'ishati, afasha umusaza ku rutugu no mu mugongo, barebana, amusekera, amwitayeho nk'umuganga.

Ni abantu babiri bicaranye harimo umukecuru ufite inkoni mu kuboko kumwe, yifashishwa n'abantu bafite intege nke mu kugenda, yegamye ku mugabo w'umuganga wambaye ishati y'ubururu n'agakoresho yashyize mu ijosi, bifashisha bapima uko umutima utera, bose barareba imbere bamwenyuye.

Ni itsinda ry'abakecuru ritoya bicaye ahantu hamwe bambaye imyenda yo mu muco w'Abagande, hari intebe za parasitike zicaweho na bakeya, inyuma yabo hari urutoki rwinshi.

Ni icyapa cy'ubururu kiriho inyuguti ebyiri z'umweru nini, hagati yazo hari agashushanyo k'ibiganza bibiri bifatanye n'amagambo munsi yabyo mu ibara ry'umweru asobanura ubuzima bw'abantu mu Rwanda.

Ni icyapa kiriho amashusho atandukanye ay'abantu n'ay'ibintu, handitsweho amabwiriza munsi ya buri foto asobanura uko abantu bakwiye kwitwara mu kwirinda indwara.

Ni icyumba giteguwemo ameza n'intebe, kirimo itsinda ry'abantu batandukanye, hari abicaye ku ntebe ku murongo n'abahagaze inyuma yabo, bose bafite udutabo bashyize imbere dusa, ku rukuta inyuma yaho bari hari icyapa kinini cy'umweru kiriho ibirango n'amagambo asobanura ibyo bakora.

Ni icyumba kinini kirimo itsinda ry'abantu b'abirabura n'abera, abicaye n'abahagaze, bazamuye amaboko basetse, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditsweho amagambo asobanura ibyo bakora.

Ni abagabo babiri bicaranye, umwe yazamuye imyenda yo ku kaboko kwe, uwundi afite urushinge mu ntoki, arimo arumutera, bombi bambaye udupfukamunwa.

Ni ibyo kurya bitandukanye biteguwe ku masahane matoya, harimo ibinyampeke, imboga, imbuto, ibinyamisogwe, hirya yabyo hari ikirango cyanditsweho mu mabara atandukanye gisobanura imimaro yabyo.

Ni icyumba kinini gicanyemo amatara, gifite amadirishya menshi azana umucyo mu nzu, kirimo ibitanda n'amamashini n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Ni ubusitani bumeze neza burimo ibiti birebire n'ibyatsi bigufiya bya pasiparama, harimo umuhanda wubatsweho amabara y'umweru n'umukara, werekeza ku nyubako ziri hirya nazo zisa neza.

Ni inyubako nini iriho ikirango mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, n'inyuguti eshatu mu mabara y'icyatsi kibisi, n'izindi ntoya ziri munsi mu ibara ry'umweru zisobanura ibikorerwa muri iyo nzu.

Ni inyubako ndende y'igorofa enye, imbere yayo haparitse imodoka zitandukanye, aho binjirira hari igiti gitambitse gisizweho amabara y'umweru n'umutuku.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye bifashisha bavura, harimo abaganga batatu bambaye uniform z'umweru n'abarwayi bicaye imbere yabo, umwe afashe ukuboko k'umurwayi amushyizeho igipimo, uwundi afite ikaramu yandika iby'umurwayi bavuganye.

Ni nyubako bavuriramo, icanyemo itara, irimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda byo mu ibara ry'umweru, bishashweho amashuka y'icyatsi kibisi, hari n'imashini iruhande rw'ibyo bitanda, yifashishwa mu kuvura abarwayi, hamanitswe amarido ku murongo, impande z'ibyo bitanda, akingiriza abarwayi.

Ni inyubako nini y'igorofa ebyiri, igice cyayo kinini gisizwe amarangi y'umweru n'ibirahure bikinze byijimye, imbere yayo hashinzwe ibyuma bitatu biriho ibitambaro byanditsweho amagambo asobanura ibikorerwa muri iyo nyubako.

Ni inyubako nini y'ikigo cy'ubuvuzi yo mu bwoko bw'amagorofa, isizwe amarangi yiganjemo ay'umweru, yanditsweho amagambo mu nyuguti z'umweru manini, agaragaza aho iherereye, ifite imbuga nini irimo n'utujaride dutoya.

Ni inyubako y'ubuvuzi yubatswe n'amatafari ahiye, iriho urugi rugari rukinguye iruhande rumwe, hejuru y'urugi handitswe amagambo mu ibara ry'ubururu asobanura ibikorerwamo.

Ni abantu babiri bicaye hamwe mu mbuga, harimo umukecuru wambaye ikanzu y'amaboko maremare n'igitambaro cy'umukara mu mutwe n'umusore bicaranye wambaye imyenda ishati nipantaro by'ubururu afite igikoresho bifashisha mu buvuzi mu ijosi rye, hirya yabo hari urutoki n'inzu igaragaza amatafari ya rukarakara.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura, harimo imashini zifotora mu mubiri, n'igitanda umurwayi aryamaho kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru, hari umuganga w'umugabo wicaye kugatebe, wambaye itaburiya y'umweru yanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Ni ikigo nderabuzima, kiriho amazu abiri manini, asizwe amarangi y'umweru, afite ibisenge biriho amabati y'ubururu, inzu imwe imbere ku muryango hejuru, handitsweho amagambo mu ibara ry'ubururu, isobanura yuko ari inzu, yivurizamo ababyeyi.

Ni icyumba kinini giteguwemo intebe ku murongo zo mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru, hicayemo abagabo n'abagore biganjemo abambaye imipira mitoya y'umuhondo iriho ibirango.

Ni icyumba kinini kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo amamashini atandukanye manini yifashishwa mu buvuzi, gicanyemo amatara, hari udutanda dushashweho ibitambaro by'ubururu bwerurutse.

Ni inzu ebyiri zegeranye, inini yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inkingi eshatu, ku muryango isakajwe amabati y'ubururu, iyindi yubakishwa amatafari ahiye ifite inzugi n'amadirishya by'ubururu, isakajwe n'amabati y'umutuku. Hari n'ubusitani butoya.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, gisa neza mu ibara ry'umweru, hahagazemo abagabo babiri b'abaganga bambaye masike, n'amataburiya y'umweru, bahagaze imbere y'imashini nini, ikoreshwa mu buvuzi, bayitegerezamo.

Ni ikigo nderabuzima kirimo amazu abiri manini iy'imbere yubakishijwe amatafari ahiye iriho umuryango munini ugizwe n'inzugi ebyiri zikinguye imbere hayo handitswe amagambo asobanura ibikorerwa muri yo, isakajwe amabati y'umweru, iy'inyuma isakajwe amabati y'umutuku, hari n'ibigega bibiri binini bifata amazi y'imvura n'akajaride keza.

Ni icyumba kinini kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye, amamashini amameza, intebe nini ziriho n'udusego twifashishwa mu buvuzi, udutebe twinshi dutoya, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kigaragara neza, ku nkuta zacyo, hari amarangi meza, amatara yaka, gifite inzugi z'ibirahure, zifite imyanya ibiri, hejuru y'inzugi hariho amanimero n'amagambo asobanura ibikorerwamo.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura, hari n'umuntu uryamye, umusego umuri iruhande ugeretsweho akaboko ke, gateyemo amaserumu.

Ni inyubako y'ubuvuzi irimo icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi byiganjemo iby'amabara y'umweru n'umutuku, harimo ububati, amamashini manini, isaha n'ibindi byinshi.

Ni inyubako nini icanyemo amatara, isizwe amarangi y'umweru, ifite inzugi z'ibirahure, ku nkuta zayo hamanitseho ibirango byerekana ibikorerwamo.

Ni inzu ebyiri ndende ziri ku ihuriro ry'imihanda zisakajwe amabati ya shokora, imbere yazo haparitse imodoka eshatu n'abantu muri iyo mihanda bagenda n'utujaride tugufiya.

Ni icyumba gisa neza kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye bifashisha mu kuvura, harimo intebe umurwayi ashobora kwicaramo cyangwa akaryamamo bitewe nuko ikoze neza, n'icyuma kimanikwaho serumo n'utubati n'akandi gatebe gato k'umukara umuganga yicaraho yita ku murwayi.

Ni inzu iri mu kigo nderabuzima yanditsweho amagambo mu nyuguti z'umukara zigaragara neza asobanura ibikorerwamo, imbere y'umuryango wayo hari abantu batanu bamwe muri bo bambaye imipira mitoya y'ubururu isa, hari ameza ateguweho igitambaro imbere yabo.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo imashini ya scaner ifotora mu mubiri munsi yayo hari agatanda umurwayi aryamaho kicaye ku ntebe yako, imbere yayo hari agatebe umuganga uyikoresha yicaraho.

Ni inyubako y'ikigo nderabuzima yubakishijwe amatafari ahiye, ifite igisenge kiriho amabati y'ubururu, iruhande hari jaridi ya pasiparama n'ibiti bikeya biteyemo, iri ku muhanda uteweho icyapa gisobanura aho iherereye.

Ni icyumba cyicayemo abantu mu bice bibiri, bamwe bicaye nk'abateze amatwi, imbere yabo hari imeza nini yicayeho abandi bane, nk'abayobozi babo,. Inyuma y'abayobozi hari icyapa kinini ku rukuta cyo mu ibara ry'umutuku, cyanditsweho amagambo y'umweru asobanura ibyo barimo.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bifashisha mu buvuzi harimo igitanda umurwayi aryamaho, hari serenge kuri icyo gitanda, hari imashini ifotora mu mubiri, hari n'icyuma bamanikaho serumu batera umurwayi.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo abantu babiri, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru w'umugore, n'umugabo uryamye ku gatanda yambaye masike n'ingofero, arambuye ukuboko aguhereje umuganga, na we ari kumuvura.

Ni inzu ngari mu butambike bwayo no mu burebure, ni amagorofa abiri asakajwe amabati y'ubururu mfite urubaraza mu rubavu rusakaye ruhagazemo abantu bakeya, imbere yayo haparitse imodoka n'abantu bane bahagaze b'abagabo ndetse n'akajaride ku ruhande gatoya.

Ni icyumba giteguwemo intebe z'imbaho ndende zicaweho n'itsinda ry'abagabo n'abagore, imbere yabo hateguwe ameza n'intebe zicaweho n'abagabo babiri n'uwundi umwe uhagaze wambaye ikote n'ipantaro bisa.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, gisa neza, kirimo amarangi y'umweru ku nkuta n'amarangi y'ubururu hasi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo amamashini, udutebe dutoya tw'umukara, imeze iteguyeho ibikoresho, udutanda turyamishwaho abavurwa.

Ni inzu nini y'umweru yo mu bwoko bw'igorofa isakajwe amabati y'ubururu, ikingishijwe ibyuma by'umutuku handitsweho Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, izengurutswe n'ubusitani bwiza bukiri butoya hari n'ibendera ry'Igihugu.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi gisa neza kirimo isima y'ubururu, harimo ibyuma bitandukanye, byifashishwa mu kuvura amamashini manini n'ibyuma bito bitoya, byose bifashisha bavura abarwayi.

Ni isanduku igendanwa ya parasitiki yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, irafunguye, irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi cyane cyane ubw'ibanze nk'umuntu yakomeretse harimo amabande, harimo imikasi, vazeline, amavuta y'amatibe n'ibindi byinshi cyane biri mu mabara atandukanye.

Ni icyumba kirimo abantu babiri umwe yicaye ku gatanda abarwayi bakunda kwicaraho, ahinnye ukuguru kumwe arambuye ukundi kwambaye n'urukweto, uwo bari kumwe yambaye imyenda isa y'ubururu nk'iy'abaganga, afashe ukuguru k'uwicaye ku gatanda aragushyiraho udupfuko.

Ni umuntu w'umugabo wiruka ashyizemo imbaraga nyinshi cyane, wambaye agakabutura k'umukara n'isengeri y'umweru irimo amabara, hirya ye hari imbuto n'imboga, harimo amaronji y'umuhondo cyane n'indimu y'umuhondo na pome y'icyatsi n'izindi n'imboga nka karoti, amashu n'ibindi.

Hari imboga n'imbuto mu bwoko butandukanye harimo imboga za leti, harimo puwavuro y'umutuku, iy'umuhondo n'izindi zitandukanye. Harimo pome z'umutuku, harimo orange na avoka n'utundi dukoresho nk'icupa rihateretse ripfundikiye.

Ni umukobwa wicaye ku gatapi gatoya, akora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari mudasobwa ntoya, n'utundi dukoresho bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, hirya ye hari intebe ndende, yo mu bwoko bw'amadiva.

Ni ijage y'ikirahure ibyibushye hasi, hejuru hananutse, irimo amazi, ifashwe n'ikiganza cy'umukara mu mukondo wayo, irasuka amazi mu kirahure giteretse hagezemo igice.

Abagabo batatu bari imbere y'inyubako nini, umwe yuriye urwego rwo mu ibara ry'ubururu, yerekeza kuri iyo nyubako hejuru, uwundi azamuye ukuboko areba hejuru afite ibyo amuhereza ngo akoreshe.

Ni umuntu uhagaze areba inyuma, akora imyitozo ngororamubiri, yazamuye ukuboko kumwe akugeza ku mutwe ku gice k'inkokora amanura ikiganza, afata mu gihumbi, azamura ukundi kuboko afatisha ikiganza cyako ku nkokora yuko yari yamanuye.

Ni ameza ariho ibintu bitandukanye, harimo imbuto nk'inanasi, amacunga akase y'umuhondo cyane, indimu zikase n'izidakase, imineke, pome ikase, urundi ruhande ruriho imidari ihabwa abarushanyijwe mu myitozo ngororamubiri, hariho ibinini n'ibindi bitandukanye.

Ni ibikoresho byifashishwa mu buvuzi butandukanye, bishobora no kugendanwa harimo ivarisi iriho umusaraba w'umweru , uruziga rw'umweru n'umutuku, harimo bande, harimo ibinini bitandukanye, inshinge serenge, amaga, imikasi, pomade, uducupa tw'imiti n'ibindi byifashishwa mu buvuzi bwa buri munsi.

Ni umusore ukora imyitozo ngororamubiri yapfukamishije ivi ry'ukuguru kumwe hasi ukundi agushyira imbere agukandagiza hasi, amanura ukuboko kumwe agufatisha ku itako.

Ni icyumba giteguwemo agatapi gatoya kariho ibikoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri, hari n'icupa ry'amazi ripfundikiye, hari amasahani abiri y'umweru ateguweho ibyokurya birimo inyama, amagi n'ibindi bitandukanye, n'iyindi iriho imbuto imineke, inkeri, n'agatebo karimo imboga n'imbuto bitandukanye.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, hari igishushanyo ku rukuta kigaragaza ibyo bakora, harimo abantu babiri, umwe aryamye agaramye, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko maremare, azamuye akaguru gafashwe n'uhagaze yambaye itaburiya y'ubururu, agorora mu mavi no mu kirenge h'uryamye.

Ni abantu babiri b'abera umugabo n'umugore begamiranye bateranye imigongo, buri wese yazamuye ukuboko kurimo agacupa karimo amazi bashyize ku munwa bayanywa.

Ni umugore wambaye agasengeri k'icyatsi kibisi n'ipantaro y'ubururu imufashe n'inkweto n'amasogisi y'umweru, ahinnye ukuguru kumwe agufatisha ukuboko biteganye, ukundi kuboko akurambura imbere ye yemye.

Ni umusore ufite imbaraga wambaye umupira mutoya w'ibara ry'umweru, azamuye ukuboko kuriho isaha y'umukara gufashe icupa ririmo amazi, araramye arishyize mu kanwa ayanywa

Ni igishushanyo kiriho utudirishya tungana, turimo amafoto yafotowe n'ibyuma byo kwa muganga, harimo ay'umutwe agaragaza ubwonko n'ibindi bice byo ku mutwe, harimo n'andi mafoto agaragaza ibindi bice by'umubiri.

Ni ibikoresho byifashishwa mu buvuzi butandukanye, harimo amaga, harimo amacupa apfundikiye ariho ibirango bisobanura ibirimo, harimo amatibe na yo ariho ibirango by'ubururu n'umutuku, bisobanura imimaro yayo n'ibindi byinshi biri mu mashashi akomeye birambitswe hasi na byo biriho ibirango.

Ni umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, ahagaze atandukanyije amaguru yambaye inkweto, yunamye afashe ku mavi yombi, yambaye isaha kuboko kumwe n'agatambaro mu mutwe ko mu ibara rya pome y'icyatsi gafashe umusatsi we.

Umuntu wirabura w'igitsina gore, afite umusatsi mukeya avuye mu myitozo ngororamubiri, yashyize igitambaro ku rutugu cyo kwihanaguza azamuye ukuboko gufashe icupa ririmo amazi araramye ari kuyanywa.

Ni umuntu wicaye mu ntebe, wambaye agakabutura kagufiya n'umupira w'amaboko maremare wo kwifubika, afatishije intoki zo ku maboko ye yombi igipfuko cy'umweru gipfuka ibisebe, kiri ku kuguru kwe kumwe munsi y'ivi.

Ni ibikoresho bifashisha mu mikino itandukanye: harimo umupira w'amaguru, harimo uwo bakinisha intoki wa Rugby, harimo Basket na Volleyball, harimo kasike n'ibindi.

Ni amacupa ateretse ku murongo akozwe mu buryo bunyuranye, iryambere ukanda ku gafuniko, ibirimo bikavamo bitumuka, irya kabiri ufungura agafuniko ugakanda ku icupa, ibirimo bikavamo nk'amavuta, irya gatatu utsirima ku mubiri, ibirimo bikakujyaho, irya kane ukanda ku gafuniko hejuru, ibirimo bikavamo nk'amazi cyangwa nk'amavuta, yose yanditsweho amagambo, asobanura ubwoko bw'ibirimo, n'uko bikoreshwa.

Ni icyapa kiriho abantu n'ibintumu mabara atandukanye n'amagambo yanditsweho asobanura imyitwarire itandukanye yateza ibibazo mu buzima bw'abantu bwa buri munsi.

Ni icyumba kiri mu nyubako y'ubuvuzi, kirimo ibitanda biriho n'abantu, hahagazemo abantu bane, abaganga bambaye amataburiya y'umweru batatu n'umugabo umwe wambaye ikote ry'umukara, hari imashini iriho ekara igaragaramo umuntu wambaye n'amarineti.

Ni ku cyaro gituyeho abantu, kuko hari ingo, intoki n'ibiti biterwa mu ngo, hari ikibuga kinini kirimo itsinda ry'abantu b'urubyiruko, abasore n'inkumi bahagaze ku mirongo, bari mu myitozo ngororamubiri.

Ni ahantu hateguwe mu buryo bubiri iruhande, uruhande rumwe harimo ibyuma, bifashisha mu myitozo ngororamubiri, ibitoya n'ibinini, mu rundi ruhande harimo imbuto n'imboga, mu mboga harimo kokombure, pavuro z'umuhondo n'iz'umutuku, n'izindi mboga. Mu mbuto harimo amacunga, pome z'icyatsi n'iz'umutuku, n'imineke.

Ni icyumba kinini kirimo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bamwe barahagaze, abandi barunamye, bari kwita kuri mugenzi wabo uryamishijwe ku buriri bw'ubururu, wagize ikibazo, bamuha ubufasha bw'ibanze.

Ni umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ubururu yerurutse, yahinnye ipantaro yo ku kuguru kumwe ayifatisha ukuboko, ukundi kuboko gufata agatambaro k'ubururu, gakanda ivi rigaragaraho umutuku nk'aho ryakomeretse.

Ni umusore uhagaze ufite imbaraga, wambaye agapira gatoya k'amaboko magufi, ibizigira by'amaboko ye birabyimbye, yambaye ekuteri mu matwi, azamuye ukuboko kumwe kurimo agacupa k'amazi, araramye ari kuyanywa.

Ni umugabo ufite imbaraga wambaye agapira gatoya k'amaboko magufiya, ateruye icupa ry'amazi n'ukuboko kumwe, ayashyize ku munwa ari kuyanywa.

Ni umuntu uraramyemo buhoro ahumirije afashe icupa n'ukuboko kumwe ry'ubururu bwererutse, arishyize ku munwa nk'ugira ibyo anywa.

Ni umukobwa uhagaze wambaye isengeri ya move, afite umusatsi mwinshi yafungiye inyuma, azamuye ukuboko gufashe icupa ririmo amazi, arishyize ku munwa nk'uri kuyanywa, mu kizigira cy'ukuboko kwe harimo umukandara w'umukara.

Ni uruziga rw'umweru ruzengurutsweho n'amagambo mu nyuguti z'umukara, hagati harimo umusaraba utukura, munsi y'urwo ruziga hari amagambo manini ari mu ibara ry'umukara asobanura iby'icyo kirango.

Ni uducupa tw'umweru tugufiya dupfundikiye, twandikishijweho amabara atandukanye kandi agaragara neza, tumeze nk'utwo babikamo ibinini kwa muganga.

Amacupa ane areshya, ateretswe ku murongo mu mabara atandukanye, rimwe riteretse mu ibara rya oranje, irindi riteretse mu muhondo wijimye, irindi riteretse mu muhondo ukeye, irindi riteretse mu iroza.

Ni amavaze ateye ku murongo mu buryo bwiza atewemo uduti dutandukanye, munsi ya buri kamwe handitsweho ubusobanuro bwako, hejuru hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara asobanura imimaro y'utwo duti.

Ni agakarito gateretswe kariho ibirango n'ibishushanyo bitandukanye mu mabara y'umuhondo ukeye, ubururu bwijimye n'ubukeye, umweru, icyatsi kibisi gikeya n'umutuku, hariho amagambo mu mabara y'ubururu n'umutuku n'umukara asobanura ibirimo n'imikoreshereze yabyo.

Ni amakarito matoya ateretswe ahantu hamwe yanditsweho amagambo n'ibirango mu mabara atandukanye bigaragara neza, bisobanura ko harimo imiti y'umwimerere n'imikorere n'imikoresherezwe yayo.

Ni amacupa arindwi ari ku murongo umwe ateretse hamwe, atatu muri yo ni maremare, ari mu bwoko bw'amacupa ashyirwamo amavuta yo kwisiga, ane yandi abanza ari mu bwoko bw'amacupa ashyirwamo ibinini, yose yanditsweho amagambo n'ibirango bisobanura ibirimo n'uko bikoreshwa.

Ni agacupa ko mu bwoko bw'amatibe, ko mu ibara ry'umweru n'umuhondo wijimye, kanditsweho amagambo, mu mabara atandukanye, asobanura ibiri muri ako gacupa.

Umugabo wambaye ishati igeretsweho ikote ry'umukara, iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye, harimo uducupa tugufiya, udukarito, ibikombe by'umweru bipfundikije imifuniko y'icyatsi kibisi n'umuhondo, byanditsweho amagambo asobanura ibirimo, n'amagambo hepfo yanditswe mu ibara ry'ubururu n'umutuku, asobanura ibyo uyu mugabo afashe abantu mu buvuzi bwa gakondo.

Ni ishashi ikomeye y'umuhondo ifungiyemo utubabi tw'ibimera, yometsweho akarango kanditsweho ingano y'ibirimo n'ubusobanuro bw'ibirimo.

Ni umurima mutoya ukasemo uduce duto tungana dutewemo ibiti bigufiya by'amoko atandukanye, bimwe muri byo biriho indabyo zirabije ibindi biriho imbuto byose byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ni ibikoresho bitandukanye harimo amacupa abiri apfundikiye, ariho ibimera yanditsweho amagambo asobanura ibirimo byifashishwa mu buvuzi gakondo. N'igikarito gifite umukondo n'ikindi gishashi cyanditsweho amagambo asobanura ibiri muri ibyo bikoresho n'imimaro yabyo.

Ni icyumba giteguwemo amacupa menshi y'ubwoko butandukanye no mu mabara atandukanye arimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'umwimerere bwa gakondo, harimo abantu bambaye amataburiya y'umweru n'abandi batayambaye.

Ni ikibira cy'ishyamba rinini, kirimo ibiti byinshi, birebire, by'amoko atandukanye, byuzuye umusozi, harimo n'ibiti bigufi, byo mu moko menshi, bishakirwamo imiti, bifashisha mu buvuzi gakondo.

Ni uducupa dutandatu tw'umweru turi mu bwoko bw'utujyamo imiti y'amenyo nka Korogate, dushushanyijeho ibishushanyo by'icyatsi kibisi, twandikishijweho n'amagambo mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umukara.

Hari ibibabi byumye binyanyagiye hasi, bicucitse n'agati karandaranze kariho utubabi twinshi tw'icyatsi kibisi turandaranze kuri ibyo byumye.

Ni umurima urimo insina n'igiti cy'umuravumba, hari umugore wambaye imyenda y'umweru, afite isakoshi ku kuboko, arambuye ukuboko kumwe kuri icyo giti cy'umuravumba.

Ni amakarito abiri afunguye arimo utundi dutoya, yanditsweho amagambo n'ibirango mu mabara atandukanye bisobanura ko harimo imiti y'umwimerere ikoreshwa ku munwa.

Ni igisambu kirimo ibyatsi bigufiya, ibyumye n'ibikiri bibisi, harimo uduti tugufiya, agati kari imbere k'amababi y'icyatsi kibisi karabije indabo z'umweru.

Ni akabati gateretswemo amacupa yo mu bwoko butandukanye, harimo amagufi asutswemo amafu y'icyatsi kibisi, n'amaremare asutswemo amazi y'icyatsi kibisi, byose byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibiti by'indabyo zirabije zisa n'umuhondo, hari n'izitararabya n'izindi nkeya zirimo agatuku, imbere yazo hari igiti cy'umuravumba gifite amababi menshi atoshye.

Ni icyumba kirimo umukobwa ahahagaze yambaye ishati y'umweru areba inyuma, ahagaze iruhande rwa firigo n'akabati k'imbaho z'ubururu karimo ibintu bitandukanye higanjemo amacupa y'ubwoko bunyuranye.

Umuntu wirabura wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, ari hagati y'ibimera by'imiti ya gakondo, imbere ye hari igiti gitoshye kiriho indabyo z'umweru, azamuye ukuboko kumwe afashe ikibabi.

Ni icupa ry'ubururu, ritoya, ripfundikiye, rireriremo buhoro, ririho amagambo yanditswe mu nyuguti z'umweru n'umukara, n'akarango k'umweru cyane, bisobanura ko harimo amavuta y'amazi akoreshwa ku ruhu.

Ni ibiti by'ubwoko butandukanye, biteye hamwe byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, harimo ibifite amababi manini n'ibindi bifite amababi matoya mu rugero n'utundi duto cyane.

Ni ibikombe biteretswe hamwe, hari igikombe kiri imbere kigaragara cyane gipfundikijwe umufuniko w'umuhondo, cyanditsweho amagambo n'ibirango mu mabara atandukanye bisobanura ibirimo n'imikorere yabyo.

Ni icupa rigufi ry'umweru ripfundikiye n'umufuniko w'ubururu ryanditsweho amagambo n'irindi riri hejuru yaryo rirerire ry'ubururu ripfundikiye ryanditsweho amagambo y'umweru.

Ni amacupa atandukanye harimo ayo mu bwoko bw'abikwamo imiti y'amenyo, n'abamo amavuta yo kwisiga, imbere yayo hari agakarito karimo isabune, byose biriho ibirango mu mabara atandukanye bisobanura imimaro y'ibirimo.

Ni icupa ryo mu ibara rya shokora n'umweru byanditsweho amagambo agaragara neza mu nyuguti za shokora n'andi matoya mu nyuguti z'umukara, biriho igishushanyo cyo mu ibara ry'icyatsi n'umutuku.

Ni amababi y'igikakarubamba, akase n'adakase, hari agacupa k'umuhondo gateretse gapfundikije umufuniko w'umutuku, kariho ibirango byanditswe mu mabara y'umutuku.

Ni amacupa ateguye ku murongo yo mu ibara ry'umweru, yo mu bwoko bw'amatibe, ashyirwamo imiti y'amenyo cyangwa amavuta yo kwisiga, ariho amagambo mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ibirango bitandukanye biyasobanura.

Ni amacupa angana aryamishijwe hasi ari mu mabara atandukanye bitewe n'ibirimo, ariho ibirango byanditsweho amagambo agaragara asobanura ibiri muri ayo macupa.

Ni ibiti bibiri bigufiya bitewe biteganye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hari agasekuru hagati yabyo karimo umuhini bashyizemo ibibabi bikeya, n'uducupa iruhande rw'ako kamwe gapfunduye akandi gapfundikiye, dusutswemo umuti wakamuwe muri ibyo bibabi.

Ni agacupa k'umweru kagufiya, gapfundikiye, gafite ibara ry'umuhondo ku gice cyo hasi, kanditsweho amagambo y'umukara.

Ni amacupa ateretswe ku murongo, ari mu mabara atandukanye, n'ingano zitandukanye, arapfundikiye, atatu muri yo ari mu bwoko bw'amacupa abamo amavuta yo kwisiga ku mubiri, irindi rimwe ribamo parufe, yose ariho ibirango n'amagambo agaragara neza asobanura ibiyarimo n'uko bikoreshwa.

Ni umuntu w'umwirabura uhagaze afite igikombe gipfundikijwe umufuniko w'ubururu, gisutswemo ibintu byo mu ibara ry'umuhondo wijimye, inyuma ye hari akabati gato gatondetsemo ibikombe birebire bipfundikijwe imifuniko y'ubururu na byo bisutswemo ibintu bitandukanye by'amafu.